Umusore yicaye mu ntebe nziza, yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'icyatsi w'amaboko maremare, afite agatabo mu ntoki ze arimo arasoma anezerewe aseka, icyayi mu gikombe arimo kunywa yitekerezaho ubuzima bwiwe.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu, imisatsi myinshi, yambaye itaburiya y'umukara yafungiye mu ijosi, araseka aranezerewe arimo kugaragaza ko afite ubwishingizi bwa Buritamu bwo kwivuza bwihariye kandi bwiza buhendutse.

Umukobwa araryamye ku buriri bushashe neza, hariho imisego yegamyeho, bafite terefone ku gutwi, arimo kuvuga aranezerewe, yambaye imyenda y'umweru.

Umudamu mwiza cyane, wambaye umwenda w'igitenge, arimo araseka, arishimira ibyo agezeho, ko acuruza ibya hano iwacu mu Rwanda. Imbere hari imashini yandikamo ibyo agezeho buri munsi.

Ahantu bacururiza imyenda, iramanitse ni ubwoko butandukanye, amashati, amapantaro, ni myiza kandi buri wese yamubera ku giciro cyiza, iduha amafaranga ndetse n'uwambaye akaba aberewe.

Umugabo ahahagaze mu iduka rye ririmo ibicuruzwa bitandukanye umukobwa uje amugana wambaye neza cyane ishati'amaboko magufi irimo imirongo imanutse afite isakoshi ku kaboko, imisatsi yafunze, terefone mu ntoki barimo gusuhuzanya ubona ko bishimanye.

Isoko ricururizwamo imyenda myinshi kandi myiza y'amoko atandukanye amashati y'amaboko maremare, imipira, uduusengeri, amapantaro ,amakoti ni byiza cyane imyenda ni myiza kuko turambara tukaberwa wagenda buri wese akakubona kuzasa neza.

Iduka ricuruza ibintu byinshi imyenda yo kwambara, amakoti meza cyane amanitse tuyakoresha igihe habaye ubukwe, umusore akambara akaberwa agacyura umugeni, inkweto nziza cyane zigezweho.

Inzu ndende icururizwamo imodoka. Abagabo bane barahagaze barimo kwifotoza bafite urufunguzo. Bigaragara ko barimo guhererekanya ububasha bw'imodoka baguze ni nziza cyane, ifite imyanya myinshi, ibereye ijisho.

Imodoka nziza yo mu ibara ry'umukara, ikigo gikorera mu Rwanda, ikaba irimo iragurishwa ku giciro cyiza buri wese yakwigondera, miliyoni cumi na zirindwi ukayigura ikaba iyawe.

Imodoka nini y'umweru irahagaze, ifite inyuma hadafunze, umudamu n'umugabo we bafite urufunguzo bigaragara ko bavuye kuyigurira, ni nziza cyane ibereye ijisho, tuyihahe kuko iri ku mafaranga makeya.

Amafaranga ibihumbi bibiri yanditse mu nyuguti no mu mibare, hariho agaseke gapfundikiye gatatse n'amabara meza, amazi menshi yo mu kiyaga harimo n'imisozi iriho ibyatsi.

Inote y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda, yanditse mu nyuguti nini. Iragaragara uruhande rumwe, hariho imisozi miremire, ishyamba, ikibaya, ni ahantu hagaragara ko hakurura abakerarugendo.

Umukobwa mwiza cyane yifashe neza, amaboko yayashyize ku meza, yambaye umupira w'amaboko maremare amaherena ku matwi, umusatsi yasutse awufunga neza cyane. Iruhande rwe harahinguka amaboko,,,

Inzu icururizwamo amata, ububido bw'amoko atandukanye, yawurute, ameza ateyeho intebe kugira ngo abantu nibaza bicare, babashe kugubwa neza.

Icyumba kirimo icyuma cy'amata kinini cyane, kiza, cyagenewe gukonjesha kugirango amata arimo ntaze gupfa bakomeze bayatanga ari meza, ni ingenzi mu buzima, avamo amavuta yo kurya, imbere yaho hari ameza ateretseho indobo.

Igurishirizo ry'amata, abantu babiri bahagaze bategereje ko babashyiriramo, umukobwa ufite indobo ari kubasukira mu ijage, areba litiro ari bubahe, barategereje hirya hari inka.

Ameza ateretseho isahani y'umweru, hariho keke zo kurya eshatu, seriviyete yo gufatisha, udukeke turaryoha utunywesha uri kunywa amata ukumva umerewe neza.

Akabati gasize irangi ry'ubururu, karimo ibicuruzwa bitandukanye: Amata, amaji, amazi, indobo iri hejuru y'ameza ipfundikiyemo capati zo kurya. Amandazi.

Inzu yubatse mu buryo bwizabereye ijisho. Ifite umuryango ukinguye, usize irange ry'ubururu. Harimo kwamama ko hacururizwa amata y'inyange meza cyane. Amata ni ingenzi mu buzima. Intungamubiri, havamo amavuta yo kurya, bakanayisiga.

Inote y'amafaranga yo muri Tanzaniya igihumbi yanditseho amagambo manini iragaragara uruhande rumwe hariho ikawa yeze inzu nyinshi ziri ku murongo zubatse mu buryo bumwe.

Inote ya mirongo itanu y'amafaranga yo muri Kongo, iragaragara imbere n'inyuma, hamwe hariho umudamu witeze igitambaro, inzu nyinshi cyane zimeze nk'umudugudu zifite ibisenge bisa, urutoki ruhakikije n'ibiti...

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu mbaho nziza cyane utubati, intebe, ameza yo kwicaraho barya ni byiza kuko bikozwe mu mbaho zinaha iwacu mu Rwanda zikomeye, ziramba,...

Icyumba cyo kuraramo cyiza, giteguye neza intebe zo kwicaraho, igitanda kibereye ijisho kiriho amashuka meza y'umweru, udusego turi mu mabara atandukanye, uraharyama ukumva uruhutse umerewe neza, amarido y'umweru.

Salo irimo ibikoresho bitandukanye, intebe zo kwicaraho, utubati tubiri dukoze mu mbaho nziza cyane. Hirya hari ameza hariho intebe nyinshi zo kwicaraho bariraho.

Inzu keretse nziza cyane, ifite amadirishya akinguye, imbere hateye ubusitani bubereye ijisho burimo indabo nyinshi z'ubwoko bwose, iziri mu mavase iziteye...

Icyumba cy'uruganiriro giteguye cyane intebe z'amadive zo kwicaramo, ameza ari imbere akoze giti kiza ateretseho ibirahuri bibiri by'amazi, intebe ntoya zo bicaho bariraho, amarido akinguye.

Ahantu ho kwiyakirira heza cyane. Imiryango irakinguye, amazi yo kogeramo ukumva uruhutse. Umutaka uteye hariho ameza ariho intebe, aho waryama ukaruhuka uvuye koga, ukumva akayaga ukumva umerewe neza.

Inzu nziza isize irangi rya oranje, iciyemo ibice aho abantu bicara, hateye indabo nziza cyane, zibereye ijisho, zituma abantu bahakunda, bakahishimira, bakahaza bahakurikiye ubwiza bwabo.

Umukobwa wicaye, yambaye umupira w'umuhondo, ikarita imuranga mu ijosi. Ari kureba abaje bamugana, barimo bamubaza nawe abasubiza, umugabo uhagaze wifashe neza, arimo kureba inyuma.

Urubyiruko rw'ingeri zose, baricaye barimo guhana ibitekerezo. Harimo abakobwa, abasore, bambaye imyenda y'icyatsi, amashati y'umweru, bafite amabike mu ntoki yo kwandika, udukayi two kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Inzu isize irangi ry'ubururu, ikoreramo serivisi ya banki yo kubitsa no kubikuza, abantu barimo imbere bambaye imyenda y'akazi, bategereje ababagana kugira ngo babafashe mu rwego rwo gufunguza konti, kubitsa kubikuza, banki ni nziza tuzigane twiteze imbere.

Isoko rinini ryubakishije ibyuma risakaje amabati, harimo ibicuruzwa bitandukanye abantu b'ingeri zitandukanye baje guhaha abandi bacuruza, harimo karoti, inyanya, intoryi, ibitoki n'ibindi byinshi.

Abadamu bitinyutse, bihangiye imirimo, banze kuguma mugo ngo baheranwe n'ubukene, bitwikiriye umutaka kugira ngo izuba ritabica, bafite ibicuruzwa: inyanya, intoryi, amashu n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bari mu isoko bagiye kwihahira. Ibicuruzwa bya hano iwacu mu Rwanda by'ubugeni: igisabo, inkoko, ingoma, ibiseke, bigaragara ko bacuruza iby'umuco wa Kinyarwanda gusa. Abakobwa, abagabo bagiye kwihahira ibyiza bya hano iwacu mu Rwanda.

Ihema ry'umuhondo rishinze, hicamo abantu benshi abasore, abakobwa, uwicaye imbere ye hari amazi yo kunywa, amakaye yo kwandikamo.

Abakozi ba MTN barahagaze aho bakorera, bambaye imyenda y'umweru n'umuhondo, abari imbere yabo baje kubasaba serivisi z'ibyo bifuza kugira ngo babafashe aho bagize ikibazo, barabakirana urugwiro, baseka, banezerewe.

Umukobwa yambaye umupira w'umuhondo, ingofero mu mutwe. Afite igipapuro ari kwerekeraho umudamu nimero yo kwishyuriraho cya Momo peyi acuruza utuntu dutandukanye turi muri firigo ya koka kora fanta, amaji,,,

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye abantu bicaye bari gucuruza abandi barimo guhaha, harimo karoti, intoryi, ibirungo bitandukanye, umuceri icyapa cya emutiyeni kimanitse kigaragaza nimero zo kwishyuriraho.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo manini y'umweru, kigaragaza imibare wakanda kugira ngo wishyure batagukase! Twese tubike amafaranga ku ma telefone, twiyishyurire bitatugoye...

Akazi ka ka Emutiyeni kubabakiye, karakinguye amadirishya yose, umugabo urimo wambaye ishati y'umweru arimo gutanga serivisi yo kubitsa no kubikuza, amayinite, abana baricaye hanze barimo kwitegereza ibiri gukorerwamo.

Abasore babiri bambaye imyenda y'umuhondo ya MTN. Ni urubyiruko, imbere yabo hari ameza ariho imashini bari gukoreraho, uhagaze ari kubasobanurira kugira ngo bamufashe ikibazo afite.

Akazu ka emutiyene karakinguye amadirishya yose, umugabo uhagaze imbere yaho wambaye ikote ry'umukara, ishati yumweru, yagiye gusaba serivisi yo kubitsa no kubikura, abarimo nabo bamuteze amatwi barimo kumufasha.

Abantu benshi bahagaze inyuma y'akazu ka MTN, abakobwa, abagabo, bategereje guhabwa serivisi z'ibyo bifuza buri umwe umwe, umukobwa urimo imbere arimo kubakirana neza urugwiro, ababikira, akababikuriza, akabaha amayiniti.

Umutaka MTN ushinze iruhande rw'inzu nini cyane igeretse, abagabo batatu bahagaze barimo kuganira, bibaza uburyo bari bubitse bakabikuza ubakira.

Abagabo babiri barahagaze bafashe kuri moto bambaye imyenda y'icyatsi ingofero mu mutwe, zibarinda gukora impanuka ngo bakomereke cyane, baragaragaza ko bakora vuba vuba iyo ubahamagaye bakakuzanira ibyo wifuza byose.

Abamotari bicaye kuri moto batanu, bambaye imyenda y'akazi, moto zifite amabara atandukanye umutuku, icyatsi. bahetse ibisanduku inyuma yabo bigaragaza ko bakora ubucuruzi bwo kugemurira abantu ibintu.

Abasore bane bicaye kuri moto bari gucyebuka bose bareba inyuma bambaye ingofero mu mutwe ibarinda impanuka bahetse ibisanduku bisa bigaragaza ko bakora ubucuruzi bwihuse bwo kuri interineti ukabahamagara bakaza.

Umugabo yambaye imyenda imuranga, ubururu, umupira, ingofero, atwaye imodoka yicayemo, afite agakarito mu ntoki, bigaragara ko arimo kwamamaza uburyo atwara ibintu.

Igikoni kirimo ibintu byinshi kandi byiza bibereye ijisho, utubati twiza two gushyiramo amasahani, ako hasi n'ako hejuru, aho kogereza, kwiziniyeri yo gutekaho nziza, hirya hari firigo.

Saro yujuje ibyangombwa byose, irimo ntebe zo kwicaraho zifite ibara ry'ubururu, ameza ateretse ku itapi, hirya hari aho bicara barira hariho intebe n'ameza amarido akinguye.

Inzu nziza cyane isize amarangi atandukanye, umweru ,umutuku, ifite igisenge cyiza, imbere yaho ikoze neza, irimo amabuye hasi, indabo nziza cyane zibereye ijisho.

Inzu nziza isize irangi ry'umutuku, umuryango urakinguye nguwo mo imbere, hanze hari ubusitani bunini bwiza kandi buteye mu buryo bubereye ijisho, indabo z'umutuku zirimo gukura.

Isoko rinini rifite hasi no hejuru, bacururicamo ibintu bitandukanye, imyenda na resitora, hasi hari ahateye imitaka y'umutuku yanditseho kokakora, harimo ameza abantu bicaraho bakabakira bafata icyo kunywa n'icyo kurya.

Umudamu w'umuzungu yagiye mu isoko guhaha, umwakiriye arimo aramusekera amwereka ko mu Rwanda iwacu twakira batugana neza, afite ibicuruzwa bitandukanye, imbuto nziza, amaronji, amatunda.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara ahagaze kuri kontwari. Asutse imisatsi inyuma ye hari ameza ateye n' intebe nyinshi zikozwe mu mbaho nziza cyane. Hateguye neza ni aho kwiyakirira ukumva umerewe neza.

Ikarita ihabwa umunyamuryango watanze ubwisungane bwo kwivuza udafite indangamuntu, twese Abanyarwanda dutange mituweli kugira twe kurwarira mu rugo ngo turembereyo.

Mu kigo k'ishuri harimo abantu benshi bicaye mu kibuga. Abasore, abana uhagaze imbere yabo afite irangururamajwi mu ntoki, arimo kubaganiriza abashishikariza ubwisungane bw'ejo hazaza hizabukuru, cyangwa abana bakaziga nta nkomyi bafite.

Umugabo yambaye agapfukamunwa umupira w'umutuku, afite sheke mu ntoki iriho amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu biragaragara ko ari ayo yatsindiye, azamugeza kuri ejo hazaza h'ubwishingizi.

Kwa muganga umugabo aricaye, afite ibitabo birambitse ku meza arimo kureba umudamu uhagaze umuhaye ibyangombwa ko byuzuye kugira ngo bamuvure, umuganga wambaye umwenda w'akazi, arategereje kugira ngo amuyobore agende avure neza.

Umusore uhagaze wambaye neza cyane, imyenda y'umukara, ishati yumweru; arahagaze imbere hari irangururamajwi, arimo aravuga asobanurira abamukurikiye ibyiza by'ubwishingizi.

Abagabo babiri bahagaze barimo kuganira, ufite ambarage mu ntoki y'umuhondo bambaye neza cyane amapantaro n'amakoti, iruhande rwabo hari ivaze iteyemo ururabo rwiza, inyuma hari abakobwa babiri bambaye imyenda y'ubururu ubona ko bicaye bahagaze bategereje abo bakira.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Abantu benshi bahagaze mu kigo cy'amashuri, abakobwa, abagabo, abana bitwikiriye imitakaga, uri imbere ari kubasobanurira uburyo Ejo heza ikora, ushobora kuzigamira izabukuru cyangwa umwana kugira ngo azige neza.

Supamaketi nini cyane, abantu babiri barimo guhahiramo, umusore ufite akagare ari gushyiramo ibyo yafashe yifuza, uri kumukamera areba uburyo ari kubikora yishimye, amanura icyo yatekereje.